Iki ni igihingwa cyifashishwa mu gukora umuti gakondo. Cyifashishwa n'abavuzi ba kinyarwanda cyangwa se abavuzi gakondo. Kivura indwara nyinshi zitandukanye z'ubwoko butandukanye.

Ni igihingwa cyitwa igisheke, ndetse iruhande hari n'ibindi byatsi bitandukanye biba ari ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, igisheke kikaba na cyo ari ikiribwa kiribwa ari kibisi cyangwa kigakamurwamo isukari ndetse n'umutobe.

Iki cyatsi cyifashishwa mu miti gakondoba, akaba ari icyatsi cyifashishwa n'abaganga cyangwa abavuzi, ndetse n'abaturage mu kwivura indwara zitandukanye.

Iyi ni imiti gakondo yifashishwa bavura indwara zitandukanye zirimo inkorora, ibicurane, ndetse n'ubundi burwayi butandukanye, bakaba babyifashisha bakoresheje n'ibyatsi.